Icyapa kiriho amasura y'abagabo babiri ndetse kinagaragaza ko ari icy'ubwishingizi bwa rwa hagati no hagati y'amajyepfo y'uburasirazuba.

Icyapa kiriho umukobwa mwiza ufite imisatsi myiza y'umukara ndetse anambaye neza ari guseka ndetse icyo cyapa handitseho amagambo cya gihe uba wuzuye ibyishimo ndetse n'umutuzo.

Icyapa kigaragaza umuntu wambaye neza, wambaye ikote ry'umukara ufite mudasobwa mu ntoki wicaye ku modoka ndetse icyapa kiri kugaragaza ibijyanye n'ubwishingizi.

Uburyo bugaragaza konti yawe uko ihagaze. Ku itariki eshanu, saa mbiri na mirongo itanu n'umunani, haraba magana ane, itariki eshanu na none saa moya n'iminota icyenda havaho magana ane, itariki eshanu saa kumi n'ebyiri na mirongo itanu n'irindwi hajyaho magana ane mirongo ine, ku itariki enye, saa kumi n'iminota icumi, hajyaho amafaranga magana icyenda.

Konti y'umuntu witwa Brian hagaragaramo nimero za konti ye ndetse hasi hagaragaye ko amafaranga yagiye ava kuri banki cyangwa ajyaho bwa mbere havuyemo amafaranga ibihumbi mirongo irindwi byo kwishyura ikode bwa kabiri hajyaho amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu by'umushahara bwa gatatu havaho ibihumbi bibiri byo guhaha .

Icyapa cya banki ya kigali kigaragaza uburyo ushobora gukoresha winjira cyangwa se ufungura konti yawe uzajya ukoresha wabika amafaranga cyangwa se ukurikirana ibya banki yawe.

Ni uburyo buri kugaragara ushobora gufatamo amafaranga uyakuye kuri konti yawe ya banke. Uburyo ushobora kwishyuramo, uburyo ushobora gutanga imisoro itandukanye biturutse kuri konti yawe ya banke.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho, bigaragara ko ishobora kuba igeretse rimwe kandi ku miryango yaho hari ibyapa bihamanitse bigaragaza ko bacuruza imyenda y'abantu, biyerekana cyangwa se bimurika imyenda myiza kandi igezweho.

Inyubako nziza irimo imitako y'ubugeni itandukanye harimo imitako washyira mu nzu ku ruhande hari ku ruhande hanze hari ameza ariho indi mitako arambuyeho igitambaro hejuru yayo hariho imyenda imanitse abantu bakambara.

Inyubako yubatse neza kandi isize irangi ry'icyatsi ndetse ku ruhande rwayo hari gutambukaho abagenzi umwe afite imisego bigaragara ko ayigurisha ndetse aho hantu harimo imyenda itandukanye n'ibipupe biri hanze byambaye imyenda bigaragara ko ari ahantu bagurishiriza imyenda undi muryango urimo utubati duteretsemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye .

Icyumba gisa neza cyubatswe ku buryo bugezweho cyubakishije amakaro hejuru naho hafite ibara ry'umweru kandi n'amatara ari kwaka, hari utubaho tumanitseho imipira myiza kandi igezweho y'abajeni ndetse no hejuru handi hari n'ahandi hagiye hamanitse imyenda kandi hatandukanye.

Aha hantu hamanitse amakote meza, y'amabara atandukanye bigaragara nkaho ariho agurishirizwa, harimo n'itoroshi riri kwaka rimeze nka telefone.

Aha ngaha hari umugabo wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'umukara ndetse na karuvati y'umutuku wijimye, afite indangururamajwi, ni umugabo wamenyekanye mu gihe cy'amatora ubwo yiyamamarizaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, hirya ye hari ikinyabiziga bibiri, hari kimwe cy'umukara n'ikindi cyumweru, inyuma ye kandi hari umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'isengeri y'umukara.

Ahantu hamanitse imipira y'amabara atandukanye, amanitse ku kantu k'akuma ndetse hirya yaho hari imiryango binjirira hagati mu nyubako runaka isa neza isize amarangi meza.

Inkweto zifunguye nziza z'abakobwa ndetse n'akabati hashobora kuba karimo ibindi bicuruzwa bitandukanye, umuntu uwo ari we wese ashobora gukenera kandi byiza, harimo n'amasakoshi n'ibindi.

Inyubako irimo amatageri meza amanitseho amatapi yo kurambika hasi neza y'amabara atandukanye arimo ayafite amabara ajya gusa umweru, ajya gusa umutuku, ajya gusa ubururu ni amabara menshi agiye avangavanze kandi meza.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bugezweho, hari imitako itandukanye ndetse hari n'udukoresho tugiye dutandukanye, hari imipira imanitse neza ku murongo bigaragara ko ari igurishwa ndetse bashyiraho n'imitako igiye itandukanye ari bo babyikorera. Hari n'utundi tuntu turi hirya tumeze nk'udukapu bigaragara ko na two batwikorera.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi busa neza bunogeye ijisho ndetse haparitse imodoka nziza yo mu bwoko bugezweho kandi isa neza nshya ndetse itaragira na nimero iyiranga.

Imodoka nziza iparitse ahantu hari igipangu kiyizengurutse, inyuma y'igipangu hari ibiti imodoka, ifite ibiyiranga bya ra a ha magana abiri mirongo irindwi n'icyenda u ndetse iyo modoka n'umukara.

Intebe zo mu modoka nziza kandi zigaragara ko ari insirimu, zifite ibara ryenda gusa umweru n'imikandara yo mu modoka, hirya ku ruhande haparitse indi modoka y'umweru, hari inyubako ziri hirya ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ahantu haparitse imodoka nziza inyuma yayo hateye ibiti bitandukanye ndetse hariho icyapa kigaragaza ko ino modoka ushatse kuyigura wayigura kandi wahamagara kuri izi nimero kugira ngo babigufashemo.

Imodoka zitwara abagenzi zihagaze ahantu hamwe hubatse neza ndetse kuhande rwazo hari inyubako inyuma y'izo modoka hateye ibiti bitandukanye bigaragara ko ari ishyamba.

Abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka umwe afite ibipapuro mu ntoki, ndetse inyuma yabo hari uruzitiro rw'ino nyubako rwubakije amatafari ahiye, inyuma y'uruzitiro hateye ibiti byinshi bikoze ishyamba.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inote y'amanyarwanda, ashushanyijeho umunara muremure ndetse na bya bisahani byawo by'itumanaho ndetse handitseho amagambo banki nkuru y'u Rwanda ndetse no hasi handitseho andi magamboa avuga ngo amafaranga ibihumbi bibiri.

Ibiganza by'umuntu biri kubara amafaranga menshi ari mubwoko bw'inoti, kuruhande rwe hari imashini yifashishwa mu mibare, gukuba, guteranya, cyangwa se kugabanya, n'ibindi bitandukanye.

Icyumba cyubatse neza, hano hubakishijwe ibirahure, bigaragare ko ari ahantu hatangirwa serivise zitandukanye. Abantu bamwe bari imbere abandi bari inyuma bigaragara ko ari abatanga serivisi n'abazihabwa, n'abantu baje gusa serivisi. Mu imbere hari icupa ry'amazi ndetse harimo n'abantu , hari n'imashini ikora ibintu bitandukanye.

Inote y'amafaranga y'u Rwanda ijana ishushanyijeho umugore uhetse umwana ufite n'inkoni mu ntoki, handitseho amagambo agira ati:" Banki nasiyonari y'u Rwanda."

Umugore uri ahantu mucyumba cy'akazi, wambaye baji wambaye agapira gasa umutuku, arino gukanda ku imashini ibara amafaranga, iri kuruhande rw'ibumoso rwe.

Igiceri cyo mu bwoko bw'amafaranga y'u Rwanda, cyanditseho igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irinwi na karindwi, hano handitseho banki mpuzamahanga y'u Rwanda.

Amandazi. Amandazi meza kandi asa neza, abereye ijisho ku buryo umukiriya wese wayabona cyangwa se wayagura, yazifuza kugaruka n'ubutaha gufata andi. Arambitse ahantu hasa neza kandi uko biri yakozwe n'umuntu w'umuhanga kuko asa neza pe!

Ibinyamafarini biribwa abantu bakunze kwita keke bitatu biteretse ku masahani hariho n'akantu ko kwihanaguza nyuma yo kubirya ni ibintu biryoha kandi abana bakunda umuntu ashobora gufatisha mu gihe ari kunywa ikintu.

Isambusa z'inyama, ziteretse ku isahani, ndetse zisa neza. Imwe yariweho, bigaragara ko mo imbere hari hari inyama. Ni ibintu bikorwa mu mafarini, ndetse bagafata n'inyama bakazisya, ubundi bagashyira mu mavuta. Biba biryoshye, kandi ari byiza.

Umukobwa wicaye areba ku ruhande, yambaye umupira wo kwifuka ndetse kuruhande rwe hari ibiganza by'ndi, muntu utari kugaragara neza usa nk'ufite ikintu, nk'ufite ikintu kitari kugaragara neza bicaye ahantu hameze neza hari amakaro hasi.

Inzu yubatse neza umuryango ufunguye ndetse bari gucururizamo amata harimo abantu mu imbere benshi hari abagura ndetse n'abagurisha, kurundi ruhande hariho igiti giteye ahantu ndetse n'inka iri mu mabara y'umweru n'umukara,

Telefone irimo imibare akanyenyeri ijana na cumi na gatanu bivuze cyangwa se bisobanuye serivisi zo kwiguriza amafaranga ku muyoboro wa emutiyeni kandi ukishyura ushyizeho inyungu.

Ahanu hari abantu batandukanye ndetse imbere yabo hari za mudasobwa ndetse hari n'imashini isohora impapuro bigaragara ko hari abantu bari baje gusaba serivise ndetse hari hari nabari kuzitanga.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cya eyeteri kiriho imibare itandukanye akanyenyeri kane gatatu gatandatu urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Igipapuro cyanditseho igice kigenewe ibiranga ba nyiri ubutaka cyasinyweho n'umuntu ubishinzwe ateraho n'amakashi.

Ibiganza by'umuntu bifashe amafaranga menshi y'inoti y'u rwanda menshi yiganjemo inoti z'amafaranga y'u rwanda ibihumbi bibiri k'uruhande rumwe hateretse igipapuro telefoni ntoya ngendanwa ndetse hariho n'igipapuro cy'umutukura kigaragaza umurongo w'itumanaho wa eyateri.

Intoki ziri kubara amafaranga menshi y'inoti, atandukanye kandi afungishije akagozi gatuma atanyanyagirika kandi ni mafaranga ubona ko ari menshi cyane yo mu bwoko bw'inoti.

Ibiganza bifashe amafaranga yo mu bwoko bw'inoti busa nkaho buri kuyabara ndetse ayo mafaranga ni inoti nyinshi ziriho ishusho y'umuntu itari kugaragara neza kuko yayifashemo ndetse ibigaragara byo ni inote y'amadorari ijana.

Ikiganza cy'umuntu gifashe amafaranga y'inoti atandukanye imwe mirongo itanu, ijana makumyabiri makumyabiri ijana, makumyabiri n'indi note zari kubasha kugaragara neza.

Umugabo wicaye arikubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti amwe ayafite mu ntoki yanditseho umubare ijana yambaye isaha nziza ndetse andi mafaranga arambitse aho yicaye afungishije utugozi kandi bigaragara ko ari menshi.

Ni inoti y'igihumbi ya Tanzaniya iriho ishusho y'umuntu, hariho kode z'amafaranga ndetse hagaragaraho n'inyubako ishushanyijeho ifite n'akadarapo hejuru, inyubako nziza cyane.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ndetse n'ibiceri, harimo ubwoko butandukanye bw'amadorali ndetse hagaragaramo n'amayero, hagaragaramo inoti imwe ishushanyijeho isura y'umugabo, inoti y'ijana ndetse hagaragaramo n'inoti y'amafaranga magana atanu.

Ibiganza by'abantu babiri biri guhererekanya amafaranga, umwe ari kumuhererereza amafaranga ariko ishusho y'umuntu bigaragara ko ari amadorari, undi ari kumuhereza n'ayandi mafaranga yanditseho ko ari ayo muri Nigeria, bigaragara ko ari amafaranga ari m'ubwoko bw'inoti.

Ibiganza bifashe amafaranga menshi ari mu bwoko bw'inoti ndetse yashushanyijeho ishusho y'umuntu bigaragara ko ari amadorari kandi bigaragara ko yarari kugenda ayabara.

Akazu gateye amabara atandukanye iry'ubururu, iry'umweru, ndetse n'amagambo yandikishijeho mu nyuguti zitandukanye z'umweru ndetse n'umuhondo, ku ruhande rwaho hari udutebe two kwicaraho hirya y'aho hari imodoka, ndetse iyo nzu mu marembo ya hatambitsemo agati bigaragara y'uko batarayitaha, n'igiti ku muhanda ku ruhande rwayo.

Inyubako ifite icyapa hanze kirimo ibara ry'umuhondo kivuga amagambo y'urundi rurimi rw'icyongereza ariko bisobanuye "icyumba cyo guhinduriramo" n'abantu, n'umuntu uri gusohoka muri icyo cyumba.

Ahantu hubatse neza, bigaragara ko ari mu biro by'akazi, harimo mudasobwa ndetse hicayemo n'umuntu imbere y'iyo mudasobwa, inyuma hari ibyapa bigenda biyobora abantu aho baca bitewe n'ibyo bashaka.

Ibiganza biri gutanga amafaranga y'amadorari ashushanyijeho isura y'umuntu ndetse n'ibiganza biri kuyakira. Binyujijwe munsi y'ikirahure bigaragara ko hari serivise yari ari kumwishyura.

Inyubako iriho ibyapa hanze, iriho amabara y'umuhondo n'amabara y'imituku, hariho abantu benshi bari aho ngaho bigaragara nkaho ari ho bashobora kuba baguranira amafaranga, ukabaha amafaranga y'ubwoko bumwe bakagusibiza andi mafaranga y'ubundi bwoko.

Icyumba cyiza giteguye neza kiriho matora nziza iri kiri mu mashashi ifite ibara ry'umweru, ndetse ku hande hari n'ahantu ha ushobora kwicara heza, ku ruhande handi hariho akabati gateganye n'igitanda wabikamo udukoresho ndetse hariho n'amarido meza cyane, n'ibindi biteretse kuri matera

Ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye intebe, ububati, imifariso, intebe zigezweho, ama etajeri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kirimo ibintu by'ubugeni bitandukanye byiza kandi ubona ko bifite isuku nk'ububati, ameza, intebe nziza kandi zisukuye zikoranye ubuhanga n'ubwitonzi ndetse n'indi mitako itandukanye nk'amayetajeri n'ibindi.

Inyubako imbere yayo hari intebe nziza, zikozwe neza kandi mu buryo bugezweho z'amabara atandukanye, ndetse harimo n'udusego wagenda wegamaho cyangwa se ufata mu ntoki mu gihe wicaye. Harimo ameza n'udutaburete twiza kandi dukoze tw'ubusirimu, inyuma hari umuntu uhicaye, ndetse hari n'akabati ushobora gushyiramo inkweto cyangwa se ibindi bitandukanye, Nk'aka ushobora gushyiramo udukoresho two mu gikoni.

Akameza ndetse n'udutaburete twako dukoze neza kandi dusa neza, dukoranye ubuhanga ku buryo bunogeye ijisho kandi ku buryo buri wese yakwifuza kuba yadutunga iwe cyangwa se yatugura. Duteretse hasi ndetse ku ruhande hari umuryango w'inyubako ufunguye.

Intebe nziza zikozwe neza kandi zikoranye ubwenge n'ubushishozi ndetse n'ubuhanga, hari n'akabati washyiramo ibintu bitandukanye nk'imboga cyangwa se ibyo wifuza byose hari ako washyiraho inkweto, ku ruhande hari umugabo uhicaye ndetse bigaragara ko ariwe nyir'ibikorwa inyuma ye hari inzu ashobora kuba arink'inzu ari kubamo kandi imbere yaho hari agatebe k'umweru.

Inyubako nziza yubatswe neza kuburyo bugezweho isize amarange y'umweru haba ku gikuta, kunzugi ndetse no ku madirishya hanze hari ameza hari inebe esheshatu ziyazengurutse bigaragara ko araho bafatira amafunguro.

Intebe nziza ifite umufariso mwiza wakegamaho, kandi ufite ibara ryiza ribeye cyangwa se rinogeye amaso ku buryo buri umwe yakwifuza kuyicaramo cyangwa se kuyitunga iwe, ku ruhande hari aka meza k'ikirahure hari ndetse n'umutako w'icyirabyo kiri mu karahuri gato.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi biteretse ku meza, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'amarinete, mbere yewe hari icupa ry'amazi ndetse n'igikapu cy'umukara, iruhande rw'iwe nawe hari umugore wambaye ikanzu y'umukara iciye amaboko, imbere yiwe hari icupa ry'amazi na mudasobwa biteretse ku meza.

Inyubako nziza yubatswe k'uburyo bwiza kandi bugezweho, ifite inzugi zisize amabara y'umweru ndetse n'amadirishya ari mu ibara ry'umweru y'ibirahure Kandi meza, hanze yaho hari ameza ahateretse ndetse n'intebe zihazengurutse bigaragara ko ari ameza yo kuriraho, ndetse inyuma yayo hari akabati, umuntu yakoresha abika utuntu dutandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, harimo abantu batatu bari imbere ndetse n'undi, uri kugenda bagana bisa nk'aho hari serivisi yaje kubasaba, harimo amatara agezweho yaka neza, harimo intebe zo kwicararaho, utegereje nziza kandi zigezweho hari n'imitako itandukanye.

Ubwiherero bugezweho bwiza b'umwe umuntu akora ibyo akora yicaye nta kibazo afite na kimwe ndetse n'ubwogero bwiza kandi bumeze neza, buriho isume ndetse buriho n'ikirahure imbere cy'umuryango gifunga cyangwa se gifungura hino hari idirishya ryiza kandi ryikirahure.

Ahantu ha dizayininze imeze neza hateguye neza hari intebe nziza ameza ameze neza, ndetse hateguye hariho: amasahani, ibirahure, amafoke, ibiyiko, bigaragara nkaho ari ahashobora gusohokera ukarira hameze neza imbere yaho hariya hantu abantu bicaye imbere akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye, ndetse no hejuru hateretse televiziyo.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho igeretse kandi amatara ari kwaka bigaragara ko byari nijoro hanze y'iyo nyubako hari ubwogero bugari bumwe abantu bajya kogeramo mu mugihe bakeneye kuruhuka.

Ameza ateguye neza cyane ku buryo bugezweho ateretseho ibirahure byibyo kunywa ndetse n'icupa ry'inzoga, hateretseho amasahane ndetse n'amafoke ndetse n'ibyuma kuruhande byo kwifashisha mugihe bagiye kurya. Inyuma yaho hari ubusitani bwiza, indabyo zikase neza kandi hari n'igipangu cyubatse neza.

Ahantu hateguye neza hari ameza y'intebe ibigebwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa bitandukanye bigaragara ko ari ahantu abantu basohokera, kandi hafite ishusho nziza ndetse ku hande hari n'ahantu hagaragara nk'aho ari amazi.

Inzu nziza yo gukodesha iherereye i Kigali ahitwa Kabeza. Ni inzu yubatse ifite amabara meza y'amarangi ndetse n'amabati, ikaba ifite ahantu hisanzuye kuburyo wabona n'aho ushyira parikingi y'imodoka cyangwa se moto.

Inyubako yubatswe ku buryo bugezweho kandi bwiza, isize amarangi meza y'umweru ndetse ifite no hanze ahantu abantu bicara hateye intebe n'ameza bimeze neza kandi bisa neza, hari imitaka y'ahantu bicara ibarinda izuba, ndetse no hanze hari ubwogero rusange bugari, abantu bishimishirizamo bakoga, harimo n'abantu mo imbere bigaragara ko hari abari bahishyuye bahasohokeye.

Inyubako nziza cyane igaragara nk'aho igeretse gatatu, ari nijoro amatara yaka, bigaragara neza ndetse hari n'itara ryo ku muhanda, ndetse n'imodoka iri gutambuka itagaragara neza inyura mu muhanda wa kaburimbo.

Icyumba kirimo ameza adekuye neza ku buryo bugezweho, intebe ku mpande yaho bigaragara ko ari ahantu abantu bshobora kujya kwiyakira hasa neza cyangwa se hashobora kwakira abantu batandukanye baje mu misango cyangwa se mu mihango itandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amakaro hasi ndetse ifite ibikuta byiza bisize irange ry'umutuku bifite uruzitiro ku ruhande rw'ibyuma, ndetse hariho na kizimyamuriro igikoresho kifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro hirya yaho hateye ibiti bitandukanye.

Ahantu hubatse ku buryo bugezweho hateye udutebe ku mpande hari ubwogero ku ruhande rw'abantu bashaka kuruhukiramo, ndetse ni ahantu heza cyane hafite ishusho nziza aho uba witegeye hirya no hino ndetse hirya yaho hari indi nyubako iri kubakwa bigaragara ko igeretse ari inyubako ndende.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi ubona ko bijyanye n'igihe turimo, hatatse neza hateye intebe ndetse n'ameza, ushobora kwicaraho mu gihe utegereje cyangwa se mu gihe hari serivisi runaka watse, ushobora kwiyakiriraho imbere hari idirishya ry'ibirahure, ndetse hanamanitse isakazamashusho nziza kandi nini ku buryo buhagije.

Inyubako nziza kandi yubatswe mu buryo bugezweho, ifite itara riri kwaka ryo hanze ndetse hagaragara n'ahantu imodoka ziparirika hagiye haciye imirongo y'ibara ryera kandi hariho icyapa kigaragaza ko ari ibijyanye n'ubwishingizi.

Inyubako nziza cyane y'ubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe ibirahure, bigaragara ko hakoreramo abakurikirana ibintu by'umbwishingizi ndetse hasi hagakorerwamo serivisi zo kubikuza ku cyuma.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bugezweho, harimo inkingi zifashe igikuta cyo hejuru ndetse hanateguye neza ku buryo bwiza kandi bunogeye amaso harimo imitako, harimo ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho ndetse harimo amatara ari kwaka.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, hasi hari amakaro ari yo yubakishijweho, mo imbere harimo intebe zo kwicaraho utegererejeho, ndetse mu bigaragara iyi nyubako ikorerwamo ibintu by'ubwishingizi mu Rwanda.

Icymba kirimo abantu bane, babiri bicaye huirya ya za mudasobwa abandi bicaye hino ya za mudasobwa ziteretse ku meza, bigaragara ko bamwe bakaga serivise abandi bazihabwa, icyumba kirimo utubati two kuba wabikamo ibikoresho bitandukanye.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe harimo n'undi umwe uhagaze, ku mpande hariyo ameza ateretseho za mudasobwa zitandukanye. Igare, utu tugare dutoya, ndetse no ku ruhande hirya hari imitako isa nkaho ari iy'ibiti.

Inyubako yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho, mu bigaraga byo hejuru hasize amarange y'umukara ndetse hanatatse neza, imitako myiza ndetse n'intebe zo kwicaraho n'akameza ushora kwicaraho mu gihe utegereje serivisi runaka, ibigaragara byo ni inyubako za kijyambere.

Abagabo bari mu cyumba cy'akazi, umwe muri bo ari kumweywa fanta ya koka isutse muri bwa bukombe bukoreshwa rimwe bakajugunywa ndetse undi yicaye imbere ya mudasobwa ye, imbere hari n'ibipapuro bigaragara ko yari ari mu kazi, ku ruhande rwabo hari akabati gateretseho imashini.

Icyapa kiriho umukuru w'Igihugu, Nyakubahwa Polo Kagame yambaye neza asa neza ndetse ari no guseka bigaragara yuko yashimiraga iyi banki kugaserivise itanga n'uburyo yakira abaturage.

Icyapa kiri mwibara ryenda gutukura kiriho imodoka nziza igezweho kandi idatwikiriye hejuru ndetse hariho numukobwa uyihagaze imbere mwiza kandi wambaye neza bagushishikariza gutwara imodoka yinzozi zawe.

Icyapa cya banke nkuru y'u Rwanda, kigaragaza ko hari igabanurwa rya mirongo itatu kw'ijana, ku bantu bari bugure amatike runaka, yo kugenda ahantu hatandukanye cyangwa se yo kujya mu birori bitandukanye.

Icyapa kiriho umugore uri guseka ufite imisatsi myiza ndetse ukoze ku bihingwa by'ibigori, hari amagambo yanditseho avuga ngo, baho ubuzima bwa buri muhinzi arota mu bigori.

Urujya n'uruza rw'abantu bamwe bicaye abandi bahagaze, ndetse aho hantu bari hari ibicuruzwa byinshi bigiye bimanitse nk'ibikapu ndetse n'ibindi byinshi bitari kubasha kugaragara neza.

Isoko ry'ibintu bitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu, abacuruzi ndetse n'abaguzi. Harimo ibicuruzwa bitandukanye: nk'ibijumba, imyumbati, karoti, insenda, imiteja, amabase yo gushyiramo ibintu bigurishwa, iminzani yo gupima ibiro by'ibigurishwa ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko ry'imbuto nyinshi zitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, bamwe ari abaguzi abandi ari bagurisha, ubwoko bw'imbuto bugiye burimo imyembe inanase, imineke, amarongi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugore uri guharura amafi ayavana mu ibasi imwe ari kuyaharuriramo ayashyira mu yindi base ari kuyarongeramo. Bigaragara ko ari ahantu bashobora kuba batanga serivisi zo kugurisha amafi. Hirya ye hari abandi bantu batandukanye bahicaye n'abahagaze, ndetse hari n'imitaka igiye ihari umuntu ashobora kwicaramo akirinda izuba.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye birimo inyanya, puwavuro, intoryi, karoti, ibitunguru, ndetse n'abantu bari aho babicuruza.

Umuhanda wari kunyuramo moto ihetse umugenzi hino ya moto hari umugabo uhicaye, hirya y'umuhanda hubatse inyubako z'ubucuruzi ndetse n'abantu ku mihanda hanze y'izo nyubako, ku ruhande rwazo hepfo hari imodoka zihagaze ziparitse kandi nziza, amatara ku mihanda ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, igeretse rimwe, ndetse ifite n'uruzitiro rw'ibyuma rwatuma umuntu wo hejuru adahanuka ngo yikubite hasi, ndetse ku ruhande rwayo hari indi nyubako isanzwe ifite amabati ashaje, hahagaze abantu benshi imbere y'izo nyubako zombi, ndetse bigaragara ko hari ibintu biri kuhacururizwa.

Ahantu hari abantu benshi hubatse amazu yamashitingi ndetse barambuye n'amashitingi hasi baterekaho inkweto zitandukanye nk'izamabara y'umukara izamabara y'icyatsi n'inkweto nyinshi ku ruhande hari n'abandi bashinze ibiti barambikaho n'ibindi barangije bashyiraho ibitenge bigaragara ko ari mu isoko hari abaguzi n'abagurisha .

Ahantu hapanze imyenda myinshi haba iy'abana iy'abantu bakuru, amapantaro, imipira ndetse n'ibindi binshi bigiye bitandukanye. Bipanze neza ku muronko kandi kuburyo bwiza ku buryo uwo ariwe wese washaka ubwoko bw'umwenda yawubona ku buryo bworoshye.

Ahantu hari abantu benshi, bari mu kazi k'ubudozi ndetse hejuru yabo hamanitse imyenda ishobora kuba igurishwa, ku mpande zabo haraboneka n'amabase, ndetse n'abandi bantu bari kugenda banyura nyura mo hagati na hagati.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi biteretse ku meza, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'amarinete, mbere yewe hari icupa ry'amazi ndetse n'igikapu cy'umukara, iruhande rw'iwe nawe hari umugore wambaye ikanzu y'umukara iciye amaboko, imbere yiwe hari icupa ry'amazi na mudasobwa biteretse ku meza.

Mu cyumba cy'inama ahateraniye abantu b'inzego zitandukanye b'abayobozi harimo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame na madamu we Jeannette Kagame, abaminisitiri n'abadepite.

Isoko ry'imboga zitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu abacuruzi ndetse n'abaguzi, harimo imboga zitandukanye intoryi, ibitunguru, inyanya, insenda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari utubase two gushyiramo ibyo bintu, hari udufuka two gupfunyikiramo abakiriya ndetse n'ibindi.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Umuntu ucuruza amayinite ya emutiyene yambaye ijiri y'umuhondo y'akazi, afite umuntu uri imbere ye usa nk'aho aje kumusaba serivisi runaka, inyuma hari umutaka w'akazi hari n'umuntu umwe wicaye inyuma ndetse n'undi uhagaze ku ruhande, ku mpande yabo hateye ibiti.

Abantu bari ahantu ,batatu muri bo basa nkaho bari inyuma abandi babiri barimo babagabo basa nkaho bari imbere bari kubyina, hari ibyapa bya emutiyene ,bigaragara ko bari bari kwamamaza ibyitwa yolo, bafite ibyapa byandutseho izihirwe na yolo .

Imodoka nini isize irange ry'umukara ndetse iriho n'ibishushanyo by'amacupa y'ibyo kunywa cyangwa se y'inzoga, ku ruhande rwaho hariho umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse yambaye n'isaha ku kaboko, impeta mu rutoki ndetse hari n'umushoferi utwaye iyo modoka wicayemo imbere bari kuvugana, imbere yabo hari indi modoka ihaparitse.

Icyapa kiri mwibara ry'umuhondo cyanditseho uburyo ushobora gukoresha wishyura amafaranga kuburyo bwikoranabuhanga ukoresheje imibare yibanga ushobora gushyira muri telefone yawe ubundi ukoherezaho amafaranga.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Abantu babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo wa mtn, undi yambaye umupira w'umukara afite n'igare. Inyuma yaho hari icyapa cya mtn cyanditseho imibare; akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri urwego.

Ahantu hahuriye abantu mu nyubako nziza kandi ifite ibyapa bitandukanye bigaragara ko bashobora kuba bacuruza ibijyanye n'inkoko, amafiriti ndetse n'ibindi biribwa bitetse neza kandi biryoheye amaso. Harimo umukobwa wambaye cyangwa se umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero, imbere ye hari akapa ka MTN, kariho kodi ndetse n'umuntu imbere ye w'umugabo wambaye ingofero na we uri gukanda kuri terefone hari...

Ahantu heza hubatse neza kandi harimo utubati tw'ibirahuri tugiye tumanitseho ibicuruzwa bigaragara ko ari ahantu hashobora kuba hacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse harimo abantu bicayemo umwe ari umukobwa undi ari umugabo ndetse imbere yabo hari mudasobwa.

Abakobwa babiri beza bafite imisatsi yi'mikara myiza umwe yambaye agapira k'icyatsi handitseho vuba vuba arimo guhereza agapfunyika mugenzi we ndetse kuhande rwabo hari icyapa kirimo ibara ry'icyatsi cyanditseho vuba vuba .

Icyapa kigaragaza uburyo ushobora guhahira ku mbuga nkoranyambaga ndetse kigaragaza terefone cyangwa nimero ya terefone ngendanwa ushobora kubahamagaraho, ushobora kubandikiraho ndetse na imeri y'aho hantu cyangwa se y'iryo soko ndetse hashushanyijeho n'imodoka iri mu ibara ry'umutuku ishobora kukugezaho ibicuruzwa waguze, hashushanyijeho n'abagabo babiri bigaragara ko umwe yaraguze undi amuhaye ibicuruzwa.

Icyapa kiriho abagore benshi batandukanye beza kandi basa neza kigaragaza ko ari abagore mu buyobozi, kandi bashoboye mubyo bakora byose ko umugore agomba gushirwa imbere mu iyi Covid cumi n'icyenda ku isi.

Icyapa kigaragaza umushinga w'ubucuruzi bwo kuri Murandasi, inama ishobora kuzaba ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na kane, saa yine z'amanywa, ndetse hagaragaho n'umubare w'amafaranga yo kwiyandikisha ibihumbi mirongo itatu by'amafaranga y'u Rwanda.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi yanditseho vubavuba ndetse yambaye n'ingofero, zimwe bambara bari kuri moto zirinda umutwe nayo y'icyatsi, afite ikintu kiri kuri moto ye k'icyatsi nacyo cyanditseho vubavuba gifungunge ndetse ari gukuramo ibyo yari yitwajemo.

Umuntu uri ku igare ry'umukara, yambaye ishati y'icyatsi, yambaye ingofero, ahetse igikapu, ku cyapa cye handitseho amagambo vuba, inyuma ye hari ibara ry'icyatsi. Ari mu muhanda, agenda.

Inyubako nziza igezweho, yanditse ho ijambo Ihaha, bigaragara ko hashobora kuba hakorerwamo ibintu bitandukanye, cyangwa se hacururizwamo ibintu bitandukanye, hanze haparitse: imodoka, moto, ndetse hari n'indabyo nziza cyane z'ubwoko butandukanye.

Ku Gishushu naho wahabona inzu wakwishyura amafaranga atari menshi nawe ukabasha kuyibamo, ni amadorari magana ane wishyura buri kwezi ni hafi ya raadibi.

Icyapa kiriho inyubako nziza yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho igeretse gatatu kandi ifite icyapa cyanditseho Ihaha ndetse ku ruhande hari n'ikindi cyapa cyanditseho amagambo kisimenti hejuru yaho hari ameza ameze neza kandi akoze ku buryo bugezweho afite n'utubati wabikamo ibintu nko mu biro by'akazi.

Urubuga rw'irembo rugaragaza serivisi zo gushaka, serivisi z'ubukerarugendo ndetse n'ibindi bitandukanye nk'icyemezo cy'uko uri ingaragu, serivisi z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi, icyemezo cy' utishoboye warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu guteza.

Moto enye ziparitse imbere y'umuhanda zifite ibipfunyika biri mu ibara ryenda gutukura ndetse bigaragara ko harimo ibyo kurya imbere yuwo muhanda hubatse inyubako nziza cyane y'ubwoko bugezweho ndetse ifite igipangu kiri mu ibara ryenda kuba umuhondo imbere yicyo gipangu hateye igiti cy'umukindo .

Icyumba cyiza cyubatse neza kuburyo bugezweho gishizwe marange ajya gusa umuhondo ndetse hejuru hajya gusa umweru harimo itara riri kwaka ,igitanda cyiza kandi kiriho uburiri bwiza bushashe neza ndetse n'imisego yo kwegamaho harimo akabati keza ushobora kubikamo ibikoresho bitandukanye ndetse gifite inzugi nziza zinjira .

Abantu babiri umwe w'umuzungu n'undi n'umwirabura bigaragara ko bahagaze aha ngaha bitegeye ishusho nziza igaragara hirya, imigi, imisozi, urebye nyine ni ahantu hafite ishusho ikeye kandi inogeye amaso.

Icyumba cy'ubwiherero, kirimo ubwiherero, kirimo ikirahure wakireberamo, gikoze neza gikoresheje amakaro, afite ibara ry'umweru,...

Inyubako nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho kandi bwiza, igeretse, ifite igipangu cyiza cy'umukara ndetse hariho icyapa kigaragaza ko bikodeshwa, wayibonera ku mafaranga igihumbi n'ijana y'amadolari.

Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bubereye ijisho, hari ameza, hateretse intebe zo kwicaraho ndetse n'abantu babiri, umwe w'umwirabura, undi w'umuzungu, umuzungu ari kwereka umwirabura ahantu hateguye neza ku meza hari amacupa y'inzoga y'ubwoko butandukanye ndetse n'intebe wakwicaraho mu gihe wenda bari gufata ikinyobwa, inyuma yabo hari imitako myiza, harimo nk'amafoto agiye atandukanye n'ibindi.

Inyubako nziza cyane ikorotiriye n'igipangu cyiza gifite fondasiyo y'amabuye hirya yacyo hari indi nyubako imbere hano hari idirishya ry'ibirahure ndetse n'ama esikariye azamuka yinjira mu nzu.

Igikoni cyubatse neza ku buryo bugezweho, ndetse gifite utubati twiza dusa n'ibara ry'umukara, ushobora kubikamo ibiribwa bitandukanye. Aho washyira imbuto, aho washyira ibiribwa bitekwa, aho washyira ibikoresho bituruka byo ku gikoni nk'amasafuriya, amasahani ndetse n'ibindi bitandukanye kandi aha ahantu hashobora kugurishwa amafaranga agera kuri miliyoni ijana mirongo itatu mu gihugu cy'u Rwanda muri Kigali.

Muri gare Nyabugogo nijoro haparitswemo imodoka za bisi, ziri mu ibara ry'ubururu hakaba hari n'abantu benshi, hakaba hari inyubako zifite ubucuruzi zigiye zicanye amatara ku mihanda.

Icyumba cyo kuryamamo kiza, gifite igitanda kiza kiriho matela, imisego yo kwegamaho, ndetse n'amarido ku ruhande, meza kandi y'ubwoko bwiza. Ndetse hasi hakoze neza hubakishije amakaro.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho igeretse imwe ndetse hanze yayo hari ibiti ndetse n'ubusitani bw'ibyatsi bigaragara icyerekezo cy'iyi nyubako ni muri kigali mumujyi wa kigali ahitwa kacyiru ndetse ino nzu wayikodesha asaga igihumbi na magana atanu cy'amadolari mu Rwanda.

Icyumba cyubatse neza ku buryo bwiza kandi bigezweho gisize amarangi y'umweru, ndetse no hasi hubakishije amakaro meza asa neza y'umweru, ku ruhande hari akabati aho watereka nka terefone ndetse n'ibindi bisanzwe, ku rundi ruhande hari igitanda cyiza kandi kimeze neza kiriho matora nziza, hirya hari umuryango wanyuramo usohoka, kandi hano hino imbere y'akabati hari n'ikirahure wakwirebamo mu gihe hari ibyo uri gukora.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite intebe nziza zenda gusa umweru, harimo n'utuntu two kwigamaho twiza kandi tumeze neza, harimo ameza, harimo amatara agezweho kandi ari kwaka.

Inzu nziza, iri mu gipangu cyubatswe mu buryo bigezweho kandi bwiza, bukomeye, ndetse hariho icyapa kuri ino nzu, kigaragaza ko ino nzu ushatse wayigura, miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri, kandi ko iharereye mu mugi wa Kigali, mu Rwanda.

Inyubako nziza yubatswe neza ku buryo bugezweho ifite inzugi nziza amadirishya meza ndetse iyo nyubako iriho amagambo agaragaza ko ifite ibyumba bine ,ubwogero butatu kandi ko iri muri batsinda ahantu bita kagugu igiciro ni ibihumbi maganatatu .

Inyubako yubatse neza isa neza kandi ibereye ijisho, ku buryo yakurura buri muntu wese yakifuza kuyibamo. Iherereye ahitwa Kanombe ndetse iragurishwa cyangwa se iri ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo itanu, ifite ibyumba bitanu, ubwogero bune kandi bigaragara ko ari inzu y'abasirimu.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho ku ruhande ifite ikigega cy'amazi, ifite igipangu cy'amatafari ahiye yazu hariyo indi nzu nziza kandi nayo yubatswe neza hari icyapa kivuga ko inuzu ikodeshwa ibihumbi maganatandatu ifite ibyumba bine ndetse n'ubwongere butatu ahantu bita kagarama.

Inyubako nziza yubatswe neza ku buryo bugezweho, ifite igisenge kigezweho, ifite igipangu cy'amatafari ahiye, hejuru hariho ibyuma birinda abantu kurira igipangu uko biboneye, mw' imbere hateyemo ibiti bitandukanye. Ikigaragara byo ino nzu irakodeshwa, muri Kigali, Kanombe.

Abantu benshi bahagaze, harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho amagambo afite ibara ritukura rya koperative.

Inyubako nziza yubatswe neza kandi isize amarange meza, ifite fondasiyo ikomeye y'amabuye ndetse ku ruhande hariho n'idirishya ry'ibirahure, igihombo kimanura amazi kiyavana mu mureko ndetse iyi nyubako irakodeshwa muri Kigali Kimironko ibyumba bitatu, ubwogero bubiri ndetse ku bihumbi magana atatu ku kwezi.

Inyubako iri kubakwa yubakishwa e amatafari abumbye mu mucanga na sima, ndetse hari n'abantu bari kuyubaka, ku ruhande hari aho bazazamurira inkingi ndetse n'ibyuma bihashinze, ndetse hari n'ibiti biteye inyuma y'aho hantu ndetse hari n'izindi nyubako zitandukanye ziri inyuma y'aho hantu.

Inyubako nziza iri kugaragara ifite imitako hanze, amavase arimo indabyo z'ubwoko butandukanye, ndetse mu bigaragara icyapa kiriho kigaragaza ko ari ahantu hakodeshwa, harimo ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri.

Ahantu hacururizwa kandi hubatse neza ku buryo bugezweho hafite imiryango y'ibirahure abantu bari kugenda binjiramo, bamwe bagiye kugura ababandi bagiye mu zindi gahunda ndetse aho hantu hakaba hari icyapa cyanditseho Simba mu ibara ry'umutuku.

Icyumba cy'ubucuruzi cyiza kandi cyubatse mu buryo bugezweho, cyubakishijwe hasi amakaro, kirimo ama etajeri menshi ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye biri mu ma etajeri harimo n'abantu muri icyo cyumba bigaragara ko harimo abaguzi ndetse n'abagurisha.

Ahantu bigaragarako hashobora kuba hacururizwa ndetse harimo abantu benshi, ndetse ibicuzwa byinshyi biri muma etageri Kandi ni ahantu hubatse ku buryo bugezweho Kandi hubakishijwe ibyuma bigiye bitandukanye.

Isoko ry'imbuto zitandukanye nk'imineke, amaronji, imyembe, pome, ndetse n'abantu benshi baraho mw'isoko. Bamwe baje kugura, abandi baje kugurisha.

Inyubako irimo ibicuruzwa bitandukanye amasakoshi, amarinete, inkweto zifunguye, amaparufe harimo n'amakamera acunga umutekano.

Inyubako yubatswe neza kandi ku buryo bugezweho hasi yubakishijwe amakaro harimo utubati twinshi turimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo n'umukobwa wambaye agashati k'umutuku ndetse afite n'ikintu muntoki ari kugenda ahahiramo ibintu bitandukanye.

Inyubako yubatswe muburyo bugezweho Kandi bwiza , igeretse irimo abantu benshi ndetse hariho nutundi twubatse kuruhande bigaragara ko ari ho habitse ibintu by'ibicuruzwa, harimo abaguzi n'abagurisha ndetse n'imitaka isa mwibara ry'umutuku.

Abantu batatu bari mu nyubako nziza imeze neza ifite amakaro, ifite ama esikariye bigaragara ko ari inyubako igeretse, harimo n'ibicuruzwa bitandukanye umuntu ashobora gukenera.

Inyubako yubatswe neza ku buryo bugezweho igeretse, kandi mu bigaragara byo hari ibintu byinshi bitandukanye bicururizwamo, kuko hagaragara mo imyenda yambawe na bya bipupe byamamaza ubwiza bw'imyenda.

Ahantu hari imbuto nyinshi z'ubwoko butandukanye, harimo amaronji, ibinyomoro, amatunda ndetse n'imyembe n'ibindi nka pome, ndetse harimo abantu babiri b'abamama umwe yirabura undi ari umuzungu, bigaragara ko umwe ari gutanga serivisi, undi ari kuzihabwa inyuma yaho hari n'undi muntu w'umugabo.

Ahantu hahuriye abantu benshi, hari ibicuruzwa bitandukanye, abaguzi n'abagura ndetse hari n'ibicuruzwa bitandukanye bimanitse mu ma etajeri kandi aho hantu hasa neza amatara ari kwaka.

Abashinzwe umutekano babiri bicaye imbere ya za mudasobwa ndetse ku ruhande rwabo hari n'abandi bantu batandukanye, bamwe bagiye bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano n'abandi bambaye imyenda y'abantu basanzwe.

Ikarita iriho ifoto y'umwana ndetse ikarita yandikishijeho ikaramu iteyeho amakashe, ndetse iriho n'imyaka itandukanye kuva bibiri na cumi na gatandatu ukamanuka ukagera muri bibiri na makumyabiri.

Ni abantu babiri bicaye mu cyumba kirimo ameza arambitseho ibipapuro bari kwandikiraho, ndetse hirya yaho hari akabati kamanitsemo ibitabo bitanduknye ndetse ku mpande zabo hari terefone.

Inyubako ifite aho amamodoka parika heza kandi hubatswe mu buryo bugezweho hasakaye ku buryo izuba ritarasa ku modoka, ndetse harimo n'indabyo z'ubwoko butandukanye nziza kandi zimeze neza, itara rimurikira muri ubwo busitani ndetse n'umuhungu ufite icyapa cyanditseho amazina Mucyo Wiliyamu, n'amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu.

Ahantu hubatse neza kandi uburyo bwiza busa neza hafite isuku. Hakeye, ndetse hicaye abantu benshi, imbere yabo hari umugabo uhicaye, uri kubaganiriza bigaragara ko hari ibyo bari kuganiraho. Harimo bamwe bagiye bambaye udupfukamunwa.

Abaturage benshi bigaragara nk'aho baje muri serivisi zitandukanye bari kugenda basinyisha ku makarita yabo, ndetse hari abayobozi bicaye ku ntebe ndetse bafite ameza imbere yabo bari kugenda babasinyira kuri ayo makarita yabo.

Icyapa kiriho umukobwa witeze igitambaro mu mutwe ndetse cyanditseho ejo heza ubwizihame bw'igihe kirekire ndetse uwo mukobwa inyuma hari uruntu rumeze nk'urugofero yari yashyize mu mutwe inyuma y'umutwe.

Abantu batatu bari ahantu hameze nk'aho bahahira, harimo umwe w'umuzungu ubona ko babiri baje guhaha, undi ari ukoramo uri kugenda abakira abaha ibicuruzwa bitandukanye ndetse anabibafungira neza.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Inyubako yubatswe neza kandi kuburyo bugezweho hasi hubakishije amakaro ndetse harimo utubati two gushyiramo ibicuruzwa aho bigiye bipanze kandi bipanze neza ku murongo, ku buryo ari ahantu hameze neza kandi hagaragarira buri wese neza ku buryo byakurura abaguzi kandi bikanaba shishikariza kuba banahagaruka, amatara hejuru arimo kwaka.

Inyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho, hejuru hari amatara menshi, ku mpande hari utubati twinshi turimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'amatara ari kwaka.

Inyubako yubatse neza ku buryo bwiza kandi bigezweho ifite amatara meza agezweho kandi ariko kwaka ndetse hari n'aho umuyaga uca uzamuka cyangwa se w'injira ahantu hari utubati two guterekamo ibicuruzwa bitandukanye twiza kandi ibicuruzwa bipanze neza ku murongo ku buryo buri mukiriya wese yazifuza kuhagurira ndetse cyangwa se kugaruka bibaye ngombwa.

Ahantu hubatse neza kuburyo bugezweho hasi hubakishijwe amakaro ndetse hejuru hubatse neza, hari amatara ari kwaka ku mpande hari utubari turimo ibigurishwa cyangwa se ibicuruzwa bitandukanye by'ubwoko bwinshi, kandi bipanze neza kuburyo uwahahahira yazifuza no kugaruka.

Inyubako nziza irimo ibicuruzwa bitandukanye, irimo abantu benshi, iteye irangi ry'umweru ndetse ifite n'amatara mo imbere arimo kwaka.

SONARWA ni ikigo kimaze igihe kinini hano mu Rwanda cy’ubwishingizi, shinganisha amashuri y'abana bawe cyangwa ubuzima ndetse ushinganishe n'inyubako zawe cyangwa ibinyabiziga.